Ikigo cy'amashuri abanza, ikigo kigizwe n'ibyumba byinshi by'amashuri, bisizwe irangi ry'umuhondo hari kunyuranamo abantu bagiye batandukanye, abanyeshuri, abarimu ndetse n'abakozi bandi basanzwe bo mu kigo, hakaba haparitsemo imodoka muri iki kigo harimo n'ikibuga cy'umupira wa basiketi harimo amadarapo harimo n'iterambere ry'igihugu cy'u rwanda iki kigo gikikijwe n'imisozi miremire.

Ikigo cy'amashuri ni ikigo kigizwe n'ibyumba byinshi by'amashuri bitandukanye. Ni ikigo gifite ikibuga bakiniramo umukino wa basiketibolu, kandi ni ikigo gifite ubusitani buhinzemo pasiparume. Muri ubwo busitani, hakaba harimo igiti cy'umukindo ndetse n'igiti cya avoka.

Icyumba kinini cyane kirimo ahantu bakorera egisiperimenti za laboratware ,aho hantu hubakishijwe amatafari bashasheho amakararo, hariho uturobine tuzana amazi hakaba, hari n'ibikoresho byifashishwa gukora egisiperimenti muri laboratware harimo utubati twifashishwa kubika ibyo bikoresho hakaba hari n'idirishya rigari rifite amarido y'ubururu.

Ibyumba by'amashuri byiza cyane. Ni ibyumba byubakishije amatafari ahiye ya ruriba. Bikaba i n'inzugi zifatanye n'amadirishya birebire. Hakaba hashashe amakaro, hakaba hari n'inkingi zisize ibara ry'umukara, hari kugaragara n'icyumba cya laboratwari, laboratwari ya biyoloji ikorerwamo ubushakashatsi n'abanyeshuri.

Umukobwa mwiza w'inzobe, umukobwa uri kudoda imyenda, ufite ndetse n'imashini bifashisha bari kudoda imyenda. Akaba yambaye agapira k'umukara, aka bari mu cyumba adoderamo imyenda, kirimo imashini nyinshi zigiye zitandukanye. Ndetse no muri iki cyumba inyuma ye, hari akajekani k'umweru ndetse na tereviziyo iteretse ku meza.

Abanyeshuri bari mu cyumba cy'ishuri bigaragara ko harimo ibikoresho bakoreraho ubumenyingiro, abanyeshuri bambaye imyambaro y'ibisarubeti iri mu ibara ry'ubururu ndetse bakaba bambaye na kasike ziri mw'ibara ry'umuhondo. Harimo n'abandi bantu batambaye ibisarubeti bigaragara ko ari abarimu babo.

Inzu ikorerwamo ubudozi bw'imyenda. Ni inzu irimo imashini zifashishwa mu kudoda imyenda myinshi cyane. Ndetse harimo n'abagore batatu, babiri bari kudoda, undi nta bwo ari kudoda, asa nk'aho ari kureba icyo bari kudoda, cyangwa se akaba ari umuntu waje kudodesha ategereje ko umwambaro we bawusoza akawutahana.

Abantu babiri, harimo umugabo ndetse n'umugore bambaye amataburiya y'umweru. Umugore afite imisatsi ya defirije. Bari mu murima uhinzemo imyumbati ndetse n'amateke. Bakaba bafite n'akarahuri ndetse n'ikindi cyuma, bigaragara ko hari ibintu bari gukusanya bashobora kuba bagiye kuzajya gusuzuma muri laboratwari. Ndetse umugabo yambaye na ga z'umweru.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki, ndetse n’amashati ajya gusa ubururu. Ni abanyeshuri bari mu kigo cy’ishuri, bakaba bafite igishushanyo bashushanyije kigaragaza imisozi, ndetse n’ikirere n’ibiguruka byo mu kirere.

Abanyeshuri bari mu cyumba cya raboratwari. Bambaye amataburiya ndetse n'udupfukamuwa. Bari muri puratike, bari gukora samu egisiperiment. Baragerageza kureba impinduka zibaho, bifashishije amakemikozi agiye atandukanye. Abanyeshuri bambaye neza, bambaye amataburiya y'umweru, ndetse n'amakaruvati.

Abubatsi cyangwa se abazwi nk'abenjeniyeri b'abagabo, bambaye amajire asa ndetse n'ingofero, bari ahantu bagiye gukorera ubwubatsi, bigaragara ko bari kureba uburyo inzu izaba yubatswe, ndetse bari gutegura na sayiti yo gukoreraho, aka kazi k'ubwubatsi.